Umugore wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'umupira w'umutuku ufite ibido, ari kumwe n'abana babiri bari ku mugezi barimo baravoma amazi.

Abagore batatu bari ku ivomero, babiri barimo gupompa ipompo kugira ngo umwe abashe kubona amazi yo kuvoma, afite indobo y'ubururu, abandi barimo kumufasha kugira ngo babone amazi.

Umugore wicaye ku ntebe usigagati umwana, wambaye agapira n'agapantaro k'umweru; muganga wambaye itaburiya, afite imiti arimo kumushyira mu kanwa. Bigaragara nkaho ari umuganga urimo kuvura umwana.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, bicaye imbere y'inyubako ari benshi, bigaragara nkaho baje kwa muganga kugira ngo babafashe mu buzima busanzwe.

Abana b'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru ndetse n'amakabutura y'ubururu, bafite impamyabushobozi zerekana ko bitabiriye amahugurwa runaka.

Abaganga batandukanye bambaye amataburiya mu mabara y'umweru, abicaye ndetse n'abahagaze bigaragara yuko inyuma yabo hariho icyapa cyanditsweho Nyabageni Outreach and Mass Screening. Bigaragara yuko ari abaganga barimo gusuzuma abarwayi.

Abagore babiri bateruye agafuka karimo ibiribwa, barimo kugahereza umugabo uri hejuru yabo, wambaye ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, bigaragara nkaho barimo gufata ibiribwa babishyira ahantu hamwe.

Mu cyumba hateraniyemo abantu benshi, bigaragara nkaho ari icyumba kirimo abantu baje kumva ibiganiro runaka, cyane cyane ibiganiro bishingiye ku buzima busanzwe.

Abantu benshi batandukanye, harimo abaganga bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, yanditsweho amagambo: sale defe conference, bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga.

Ku ivomero rusange hariho abantu babiri umwe ni umu mama wambaye umupira w'ubururu ndetse n'igitenge witeze igitambaro mu mutwe, afite ijerekani arimo kuvoma kumugezi wambere kumugezi wa kabiri hariho umugabo urimo kuvoma kumugezi wa kabiri yambaye ishati y'igitenge.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ijipo, n'ikanzu y'igitenge, ahagaze imbere y'abaganga bafite imashini barimo kwandikamo, bigaragara nka yaje kwa muganga kwivuza ndetse no kugirwa inama zitandukanye.

Umumama urimo kugenda ufite indobo ebyiri, indobe imwe mu kuboko isa n'umuhondo, n'indobo yikoreye ku ku mutwe isa n'umutuku, arimo kugenda neza munzira hegereye ibiti hari ibiti byumye ndetse n'ibiti biteye bikiri bibisi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, uhagaze kuri kandagira ukarabe bigaragara nk'aho arimo gukaraba ibiganza bye, inyuma ye hari inyubako ndetse ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Inyubako yubakishijwe amatafari, imbere yaho hariho abantu bambaye imyambaro yabugenewe yo kwa muganga, bigaragara nkaho barimo gutera imiti runaka kugira ngo barwanye icyorezo runaka.

Intebe iriho indobo y'umweru ndetse n'ubururu, hahagaze umwana wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yumukara urimo kuvoma amazi bigaragara nkaho ashaka amazi yo gukaraba.

Ahantu hateraniye abantu benshi harimo itente ifite ibara ry'umweru, imbere yaho hariho umugabo ufite baji, ndetse uri kuri telefone.

Abaganga bavuye mu gikorwa cyo gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi bicaye ari abaganga batanu, abahungu batatu, abahungu bane, ndetse n'umukobwa umwe. Bicaye imbere yabo hariho ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye.

Abantu benshi, batandukanye, bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imipira y'umweru n'iy'ubururu, bafite icapa byanditsweho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri.

Umwana urimo aseka wambaye agapira gatukura, afite igikombe kinini arimo kuvomeramo amazi meza aturutse kuri robine.

Ku ivomero hahagaze umuntu urimo gukaraba intoki n'amazi meza, bigaragara nkaho ari umuntu urimo kwisukura yita ku buzima bwe bwa buri munsi.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, arimo gufata umwana wambaye umupira w'umuhondo uteruwe na mama we, wambaye umupira w'umweru bigaragara nkaho ari umugabo urimo gutanga amata ku bana batandukanye.

Abagore batatu, bari kumwe n'abagabo bane, harimo umugabo umwe wambaye itaburiya, bigaragara nk'aho ari umuganga, barimo kwifotoreza imbere y'inyubako, isize irangi ry'ubururu.

Abagabo n'abagore batandukanye bicaye ku meza, bamwe bicaye iburyo abandi bicaye ibumoso, imbere yaho hari icyapa kirimo kwerekana ibyo barimo kuvuga, bigaragara nk'aho ari abantu bateraniye hamwe bari mu nama.

Abagore batanu bari mu nyubako bicaye ku ntebe, iruhande rwaho hari amarido y'ubururu ndetse n'ameza ariho ibitabo bitandukanye byo kwandikamo, bigaragara nkaho baje kwa muganga barimo gufata intama zitandukanye.

Mu cyumba runaka hari abantu benshi bateranye abagore n'abagabo, bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze inyuma yabo, inyuma ya bose hari icyapa cyanditseho ibintu bitandukanye bigaragara nk'aho ari abantu barimo kwamamaza iby'ubuzima.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo yanditseho Mayange herifu senta, imbere yaho hariho umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'abana ama b'ubuzima bambaye amatabura y'ubururu, bigaragara nkaho ari ikigo nderabuzima cya Mayange kirimo gutanga imfashishanyigisho ku bajyanama b'ubuzima.

Ivomero ryo mu ibara ry'ubururu, iruhande rwayo hateretse indobo yo mu ibara ry'ubururu, hahagaze umuntu wambaye ishati yo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, bigaragara nkaho ari umwana urimo gukaraba intoki akoresheje amazi meza.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba, harimo abaganga bafite impapuro barimo kwandika, bigaragara nk'aho ari aba mama baje guhabwa amahugurwa ndetse no kubafasha mu buzima busanzwe.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hari abana benshi bambaye impuzankano yo mu ibara rya kaki, ku kumugezi uriho amazi atemba, bigaragara nk'aho ari abana barimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse bakoresheje isabune.

Abagore batatu umwe urimo kuvoma, abandi babiri barimo gupompa amazi babasha kugira ngo bahe ayo mazi umugore umwe abashe kuyavoma.

Abagabo benshi ndetse n'abagore barimo barifotoza bigaragara nk'aho bari bari muri konferense yerekana y'umuryango w'abibumbye.

Umusaza wambaye ingofero y'umukara agapira k'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, wicaye ku ntebe y'umweru, arimo gufashwa na muganga wambaye itaburiya y'ubururu, kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye uko umuvuduko we n'ubuzima bwe muri rusange bimeze.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye n'amabati y'umutuku, imbere yaho hari abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abambaye amashati y'ubururu n'amapantaro y'ubururu, igaragara nkaho ari inyubako y'ibitaro ihagazweho n'abaganga benshi.

Abana bane umwe uri ku ipompo arimo gupompa kugira ngo bagenzi be babashe kubona amazi yo gukoresha mu mirimo itandukanye ya buri munsi, bigaragara nkaho ari abana baje gushaka amazi.

Ku ivomero hahagaze abantu babiri umukobwa ufite igitenge ndetse n'amabido abiri arimo kuvoma iruhande rwe ahagaze umu mama urimo kumufasha gufungura amazi, inyuma ya bo hariho umu mama ufite umutaka ndetse n'abandi bana benshi.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, hateraniyemo abantu benshi, hagati yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro ya kaki, bigaragara nkaho ari umuganga urimo gutanga inama ku barwayi

Umukobwa wambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku, ufite ibido ndetse n'amabesani abiri, bigaragara nkaho ari umukobwa urimo kuvoma amazi yifashishwa akora amasuku mu rugo.

Igishushanyo cyerekana umumama ucigatiye umwana biri mu ishusho y'uruziga, bigaragara yuko ari igishushanyo cya UNICEF kigaragaza uko bita ku bana.

Umugore wambaye igitenge ndetse n'ingofero, ahagaze ku mugezi uriho imigezi ibiri, afite amabido menshi atandukanye bigaragara nkaho yaje gushaka amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'ameza ariho indabo ziri mu mavase ndetse n'amacupa arimo amazi meza bigaragara nk'aho barimo kuganira ku bijyanye n'uko buri mwana wese yagira icyizere.

Umwana uhagaze iruhande rw'igishanga afite amacupa abiri arimo amazi, yambaye iniforume ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu.

Ku kibuga hateraniye abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu, inyuma y'aho hariho itente riri mu ibara ry'umweru bigaragara nk'aho ari abajyanama b'ubuzima baje gufata ibiganiro runaka.

Umugabo wambaye ishati y'amakarakaro y'umweru n'ipantaro y'umukara, uhagaze ku ivomero afite ibido bigaragara nkaho ari umugabo wishimye waje gushaka amazi yo gukoresha mu buzima busanzwe.

Umugore usigatiye umwana ahagaze imbere y'umuntu wambaye apfukamunwa k'ubururu, ufite ibipimo, akamashini karimo ibipimo, bigaragara yuko ari umugore urimo gufasha umu mama wabyaye.

Umugore ufite umwana ndetse n'umugabo ufite agapapuro arimo gupima umwana k'ukuboko kwe kugira ngo arebe imikurire y'umwana. Bigaragara nkaho ari abantu benshi bateraniye mu matente baje gupimisha imikurire y'abana.

Ku ivomero hariho amajerekani menshi ndetse n'amabase hariho abantu benshi baje kuvoma, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku, agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, kuri iryo vomero hejuru hahagaze umukobwa urimo kuvoma.

Umugabo uri mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo HPV vaccine access and cervical cancer policymaking process in Ghana, Rwanda, and Canada. Bivuze ko ari urukingo rurinda kanseri y'inkondo y'umura mu Rwanda, muri Ghana ndetse no muri Canada.

Abana bari ku murongo bafatanye ku rutugu, bambaye imipira y'ubururu ya unicef. Barimo baraseka bishimye cyane.

Abagabo benshi ndetse n'abagore batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yaho hari amacupa y'umweru arimo amazi meza ndetse n'indangururamajwi, iruhande rwaho hari Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, inyuma yaho hari icyapa cyerekana iby'ubuzima, biragaragara nkaho ari abantu barimo kuganira ibijyanye n'ubuzima busanzwe.

Umwana wambaye agapira k'umweru, arimo araterwa urushinge n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara nkaho ari umuganga urimo gukingira umwana ufashwe na mama we.

Abantu batandukanye bahagaze ku mugezi, bafite amabido abiri, biragaragara yuko ari abaturage barimo gukaraba ibiganza byabo, bakoresheje amazi meza n'isabune.

Ku vomero hariho abana babiri, umwana umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari ku ipompo arimo gupompa kugira ngo mugenzi we w'umukobwa ufite amabido abiri abashe kubona amazi yo kuvoma.

Abantu benshi bari bateraniye hamwe, imbere yabo hahagaze abagabo babiri n'undi mugore wicaye, bigaragara nkaho ari abantu barimo kuganirizwa ku buzima bwa buri munsi.

Igishushanyo cyerekana amabara atatu, ibara ry'umukara, ibara ry'umuhondo ndetse n'inyenyeri iri mu mubara ry'umweru, bigaragara nkaho ari igishushanyo cyerekana ubuzima busanzwe.

Umurwayi wambaye imyenda y'ubururu witeze n'igitambara, arimo gufatwa ibipimo by'umuvuduko w'amaraso na muganga wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara y'uko ari inyubako yo kwa muganga.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru, karavate y'ubururu, arimo gushimira umugabo wambaye ikoti ry'umukara, karavate y'ubururu, ishati y'umweru, ufite n'ibitabo mu kuboko kw'ibumoso.

Mu nyubako imbere hateraniye abantu benshi barimo kwifotoza, inyuma y'aho hariho icyapa bigaragara nkaho ari abantu bavuye mu nama iganirwaho ibijyanye n'ubuzima.

Mu nyubako isize irange r'yumweru ndetse n'umukara, harimo abaganga benshi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bigaragara nk'aho ari abaganga bishimye.

Umwana wambaye agapira k'ubururu, urimo gukaraba akoresheje amazi meza n'isabune, hari umuntu umuhagaze iruhande, urimo kumusukira amazi avuye mu ikaneti isa n'icyatsi.

Umugabo urimo gusukira abana bane amazi, babasha gukaraba intoki kugira ngo bisukure ibiganza byabo, barimo gukoresha agakombe karimo amazi meza, hasi hari ibase barimo gukarabiramo.

Abagabo batandukanye barahagaze umwe wambaye ishati y'umweru undi wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agasengeri ko mu ibara ry'ubururu, barimo kwereka umugabo wicaye wambaye ingofero y'abayisiramu ibintu bitandukanye, ba inyuma ye hari abana bafite ibipapuro bigaragara nkaho barimo kuganira ibijyanye n'ubuzima.

Umwana w'umunyeshuri w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu, ishati y'umweru ndetse n'umupira w'ubururu, ahagaze ku mugezi arimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse akoresheje isabune.

Mu nyubako harimo umuganga wambaye ishati y'icyatsi kibisi, agapfukanwa k'ubururu ndetse n'ingofero yo mu mutwe, imbere ye hari ibyuma bakoresha kwa muganga babasha gusuzuma umurwayi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru arimo gutera urushinge umwana usigatiwe na mama we wambaye igitenge mu mutwe ndetse n'umupira w'ubururu, inyuma yabo hariho ameza ateretseho agakarito bashyiramo inshinge ndetse n'imiti iri kuri ayo meza.

Abaganga batandukanye bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umweru, bari kumwe n'abantu batandukanye ndetse n'abapolisi, imbere y'aho hicaye umuntu bigaragara nkaho barimo kumuganiriza ku bijyanye no gufata imiti ndetse n'ubundi buzima busanzwe.

Abamama benshi bambaye imipira y'umweru bafite n'abana bambaye imipira y'umuhondo, barimo barafashwa n'abantu bambaye imipira y'umuhondo barimo kubaha amata yo kunywa, bigaragara nk'aho ari umushinga urimo gufasha abana.

Abagabo n'abagore batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara barimo kuganira, bigaragara nkaho barimo kuganira kubijyanye n'ubuzima butandukanye.

Umugabo n'umugore bahagararanye, iruhande rwabo hariho umumama ufite umwana uri ibumoso, naho iburyo hari abana bane bahagararanye bigaragara nkaho ari abantu bo muri UNICEF.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda yo mu bitenge, ahagaze hagati mu gishyaga afite ibido arimo kuvoma amazi, bigaragara nkaho arimo gushaka amazi yo gukoresha mu rugo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Abana bambaye udupira tw'umuhondo bicaye hasi barimo baragaburirwa n'umumama wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'umweru, inyuma ye hahagaze abandi bamama bambaye imipira y'imyeru n'amapantaro y'imikara, ndetse n'abasirikare bazanye amata yo kugaburira abana.

Mu nyubako hagati hari abana bambaye iniforume y'ubururu ndetse n'amashati y'umweru, imbere yaho hahagaze abantu baje kubasura bigaragara nk'aho baje kubasobanurira ndetse no kubafasha kwita kubana.

Mu nyubako yubakishijwe amatafari, imbere hari ikibaho cyo mu ibara ry'umukara, hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite akumva amajwi y'umutima ndetse n'ibihaha arimo gusuzuma umwana. Iruhande rwaho hahagaze umubyeyi w'umwana.

Mu cyumba hateraniyemo abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe, imbere yaho hariho ameza ateretseho impapuro ndetse n'amazi yo kunywa, bigaragara nkaho bari mu kiganiro runaka.

Abagore batatu barimo barashaka amazi aho babiri bafashe ipompo, babasha gukompa amazi undi akaba afite indobo arimo kuvoma amazi.

Kuvomero ryo mu ibara ry'ubururu hahagaze abana barimo kuvoma amazi mu ndobo, ndetse n'umu mama urimo gukarabya umwana wicaye mu ibase, bigaragara nkaho ari ivomero ririho abana ndetse n'aba mama barimo gukora amasuku.

Abantu bane bahagaze imbere inyuma yabo hari icyapa cyanditsweho official launch of Rwanda national child protection kes management framework. Iruhande rwacu hari icyapa cya UNICEF ndetse n'ikindi cyapa cyerekana ibijyanye n'abana biragaragara nk"aho ari abana, barimo kwerekana uko barinda abana.

Hari abantu benshi batandukanye, imbere yaho hariho umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, imbere ye hariho umugore wambaye agapira k'umukara ndetse n'igitenge, iruhande rwe hari umugabo ufite mikoro bigaragara nkaho barimo gukina ikinamico kuri Ebola.

Inyubako yo mu bwoko bwa etaje, imbere yaho hari inyubako ifite amazi bigaragara nk'aho ari amazi abasha gukoreshwa mu bintu bitandukanye.

Amacupa ya bomboni ari mu ibara ry'ubururu, ni atatu, hirya yaho hariho andi abiri mato, ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo, bigaragara nk'aho ari amacupa bifashisha kwa muganga.

Abana batatu, umwe wambaye agapira k'umweru, undi wambaye agapira k'icyatsi, undi wambaye agapira k'ubururu, barimo barakaraba n'amazi meza ku mugezi, bose bigaragara nkaho bishimye.

Umugore wambaye agapira k'ubururu, ufite impapuro arimo guhereza abantu batandukanye, bigaragara nkaho arimo kubigisha ku bijyanye n'ubuzima.

Imbere y'inyubako yubakishijwe amabuye ndetse n'amabati y'umutuku, hahagaze abantu benshi cyane bigaragara nkaho baje kumva ibiganiro ndetse no gufata amahugurwa.

Inyubako yubakishijwe ndetse isakajwe n'amabati y'umutuku, imbere yaho hari umuhanda wubakishijwe n'ibiraro, hagati hayo hari indi nyubako bigaragara nkaho ari inyubako y'ibijyanye n'ubuzima.

Mu cyumba hateraniyemo inama, harimo abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakomo k'ubururu, arimo kuganirizwa n'umugabo wambaye ishati y'umweru, urimo guseka bigaragara nkaho bishimye.

Inyubako ifite amatafari ahiye, hicaye abagabo, umugabo wambaye bote z'umweru ipantaro y'umweru ndetse ni'shati y'ubururu iruhande rwe hari ibitabo byinshi arimo kuganiriza umugore ndetse n'umwana baganira nkaho arimo kubafasha mu kuganirizwa mu buzima busanzwe.

Mu nyubako harimo umugabo wambaye ishati y'igitenge iri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ubururu, wambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwe rw'iburyo hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubucobari, bigaragara nk'aho arimo gusuhuza umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Umupira uri mu ibara ry'ubururu ndetse no mu ibara ry'umweru, inyuma yaho handitseho amagambo RPS in CHOOM, bigaragara nkaho ari umupira werekana ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye igitenge ufite amapingu mu kaguru, wambaye umupira w'ubururu ufite uturongo tw'umweru, wifashe mu mutwe, yicaye hasi ku bitenge bigaragara nkaho ari umugabo ufite ikibazo cyo mumutwe.

Umwana urimo kurya biswi yishimye, wambaye iniforume imwe mu ishati y'umweru ndetse n'ikabutura y'ubururu, wicaye ku ntebe arimo araseka bigaragara nkaho ari umwana wishimye.

Inyubako yubakishijwe ndetse inasakajwe, iri mu ibara ry'umweru, ndetse no mu ibara ry'ubururu ryandikishijwemo amagambo Karayesi Furere de Rasharite, bivuze inyubako ibasha kwita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe.

Umukobwa wambaye amarinete, wambaye agapira k'umukara n'ipantaro yumukara, afashe ku rutugu rwa mugenzi we wambaye ingofero ya gisirikare, ikoti ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umutuku. Biragaragara nk'aho arimo kumuganiriza kubyerekeye ubuzima bwo mu mutwe.

Hagati y'ameza abiri hicaye abantu batandukanye, iruhande rwe hahagaze umugabo urimo kubaganiriza, bigaragara nkaho arimo kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Igishushanyo cyerekana umutwe mu ibara ry'umweru ririmo amagambo y'ubururu avuga umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, ubusanzwe buba tariki ya cumi, mu kwezi kwa cumi, buri mwaka.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, ufite umusatsi w'umukara, wishimye cyane, bigaragara nk'aho ari umugabo wishimye, ufite ibyishimo bidasanzwe.

Abana benshi batandukanye bahagaze imbere, bafite utubido dutoya, bigaragara nk'aho ari abana bari baje kuvoma ku ivomero runaka.

Igishushanyo cyerekana utudomo twinshi duhujwe n'uturongo, hasi yatwo hariho inyuguti mHub, yerekana icyapa cyerekana ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu batatu, babiri bafashe umuntu wambaye ishati y'umweru, bigaragara nk'aho yagize ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru, imbere yaho hari ibyapa bigaragaza amerekezo n'ikaze mu bitaro bya Munini by'Akarere, bigaragara nkaho ari ibitaro bifasha abarwayi batandukanye.

Igishushanyo kiriho umukobwa useka neza, cyanditsweho everyone, everywhere, menterhealthlisk accessibility quality care, liberty independance and inclusion. Bivuze ko ari ibyerekana ibijyanye n'ubuzima bwa buri muntu wese, ahari ndetse na buri wese.

Igishushanyo cyerekana ubuzima bwo mu mutwe, byandikishijwe mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse no mu ibara rya kaki, bigaragara nkaho ari igishushanyo cyerekana indwara ndetse n'uko babyita iyo umuntu agize ikibazo cyo mu mutwe.

Igishushanyo cyerekana abaganga babiri, umwe afashe ku mutwe undi nawe afashe Ku mutwe w'icyo gishushanyo, bigaragara nkaho ari umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe ku isi yose.

Mu nyubako iteraniyemo abantu benshi, imbere y'aho hariho umugore ufite indangururamajwi, wambaye ikanzu y'igitenge, ufite n'agakapu ka pinki, uri kumwe n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umutuku bigaragara nk'aho barimo kuganira.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, igitenge ndetse witeze igitambara cy'ubururu, wicaye kumeza ariho imashini ndetse n'icupa rinini ry'amazi, hicaye umugabo wambaye ishati y'ubururu, bigaragara nkaho barimo kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye umupira wumuhondo urimo guseka bigaragara nkaho yishimye, hari ibintu byamuteye akanyamuneza mu buzima bwe.

Abapolisi ndetse n'abandi bantu bahagaze imbere y'ibyapa bigaragara nkaho bari imbere y'ibitaro bya Kacyiru. Ni ibitaro bibasha gufasha abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Abana, ababyeyi, urubyiruko ndetse n'abagabo bafite amadarapo arimo ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, bigaragara nkaho ari abantu barimo kwamamaza idarapo ry'igihugu.

Abantu batandukanye bicaye barimo baraganira, inyuma yabo hari ibiti biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'intoki biragaragara nk'uko ari abantu barimo kuganira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Igitabo cyerekana umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse uri imbere y'Idarapo ry'u Rwanda ndetse n'Idarapo rya Unicef, biragaragara nkaho ari igitabo cyerekana ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye ishati yubururu ufite amarinete, ahagaze imbere y'indangururamajwi ebyiri arimo kuvuga bigaragara nkaho arimo kuvuga umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umwana wambaye ishati y'umweru wifashe ku mutwe arimo kurira, iruhande rwe hari umugore wambaye agapira ndetse n'ikanzu y'umutuku ufite inkwi mu kuboko kw'ibumoso bigaragara nkaho umwana afite ikibazo.

Umugabo wicaye mu muferege wambaye igitenge gusa, ufite amashashi, imyenda n'ibindi byinshi bitandukanye, bigaragara nkaho ari umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umukobwa wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakoti k'umutuku urimo guseka uhagaze imbere y'inzu inyuma ye hariho intebe bicaraho.

Abanyeshuri benshi cyane, bambaye impuzankano yo mu ibara ry'ubururu, bahagaze imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bigaragara yuko ari abana bishimye cyane, baganirizwa mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyubako nini cyane, yateraniyemo abantu basize intebe ku ruziga bigaragara nkaho ari abantu barimo kuganizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu babiri umugore wambaye ikanzu y'umukara, ndetse n'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu harimo umweru, ufite igipupe cy'intare, barimo baraganira ku ngingo zitandukanye.

Umukecuru wambaye igitenge mu mutwe ndetse wambaye n'ishati idodeshejwe mu gitenge, arimo araseka bigaragara nkaho ari umukecuru wishimye udafite ikindi kibazo.

Ikirango cyerekana abanyeshuri bo mu Rwanda biga ubuzima bwo mu mutwe, gifite umuntu uri mu ishusho y'ubururu ufite utuyenyeri mu mutwe dukikije ubwonko.

Mu cyumba hateraniyemo abantu benshi, imbere yaho hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'umukara urimo kubigisha, yambaye agapfukamunwa bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga, yateraniyemo abantu benshi barimo gufasha guhugurwa.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, urimo kuganirizwa n'umugore umufashe ku rutugu, bisa nkaho arimo kumugira inama y'ukuntu yakwitwara ndetse n'ibiko yabasha gukontorora ibibazo byo mu mutwe.

Umuntu wambaye ishati y'umweru ufite akagozi mu menyo, bigaragara nkaho arimo gusobanurira mugenzi we uburyo amenyo ye abasha kuyitaho ayakorera isuku, mu buzima bwa buri munsi.

Muganga wambaye itaburiya y'ubururu, ufite udukoresho tw'utwuma two kwa muganga, arimo kurebera umurwayi ufite ibibazo by'amenyo, amusuzuma ndetse anamwogereza amenyo.

Umugabo wambaye gloves zisa n'umutuku afite akantu ko kwa muganga arimo arakora isuku y'amenyo, bigaragara nk'aho ari umuganga urimo koza no gukura imyanda mu menyo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite udukoresho tw'utwuma tureba mu kanwa two kwa muganga, arimo kureba mu kanwa k'umurwayi, bigaragara nkaho ari umuganga ushinzwe iby'amenyo urimo kumusuzuma.

Ifoto yo mu cyuma igaragaza amenyo yo mu kanwa, ayo hejuru, ayo ku mpande ndetse n'ayo hasi, inarerekana amazuru byose bisa mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umukobwa urimo guseka afite intoki ebyiri azerekeza ku minwa ye, bigaragara nkaho ari umukobwa uri kubasha kwerekana mu kanwa he yuko hafite isuku, ahakorera isuku ya buri munsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, arimo arereka umunyeshuri uko babasha koza amenyo, kugira ngo umuntu agire mu kanwa heza. Inyuma yabo hari umugabo ndetse n'abagore babiri.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru, ufite uburoso ndetse na korogate, arimo ariborosa aseka, ameze neza nk'uwishimye cyane.

Mu nyubako hateraniyemo abantu bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'imipira y'umweru, ku meza hariho korogate, bigaragara nk'aho barimo kwerekana uko basukura n'uko bagirira amenyo isuku.

Mu nyubako iri mu ibara ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi bafite ibibazo byo mu menyo, hariho intebe muganga yicaraho ndetse n'intebe abarwayi bicaraho.

Umwana ufite uburoso bwo mu ibara ry'ubururu n'umweru, yicaye ku ntebe y'ubururu, afite uburoso mu kanwa, bigaragara nkaho ari umwana wishimye, urimo gukorera amenyo no mu kanwa isuku.

Mu cyumba gifite amakaro y'umweru ndetse n'amarangi y'umweru, hariho intebe itatu zose z'ubwoko bumwe zisa n'umuhondo.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abantu benshi b'abanyeshuri ndetse na mwarimu wabo bafite uburoso na korogate. Bigaragara yuko bahawe uburoso na korogate bazajya bifashisha mu koza amenyo.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku, ufite umugozi yawushyize mu menyo, bigaragara nkaho arimo kwerekana uburyo boza ndetse banakorera isuku amenyo.

Ifoto yo mu cyuma yerekana mu kanwa h'umuntu, aho irimo kwerekana amenyo yo hasi ndetse n'ayo hejuru, byongeyeho ikaba yerekana no mu mazuru h'umuntu runaka.

Mu nyubako imbere hari ikibaho cy'umukara ndetse n'abantu bahagaze, imbere yabo hariho umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite ibishushanyo byerekana amenyo, arimo gusobanurira umunyeshuri uburyo amenyo ameze n'ukuntu bayakora.

Ku rukuta hariho ifoto yerekana amenyo y'umuntu atandukanye. Muganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amarinete arimo kuyimanika areba uko amenyo bafotoye ku murwayi ameze.

Abagore babiri, umwe wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakoti k'ubururu, undi wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakoti k'umutuku, barimo baruzuza impapuro, bigaragara nk'aho bari bari mu nama.

Umugabo urimo guseka ufite urudodo warusize mu menyo, bigaragara nkaho ari umugabo werekana uburyo boza n'uko basukura mu kanwa, cyane cyane mu menyo.

Umugabo ufite umugozi, yawusize ku munwa, bigaragara nkaho arimo kwerekana uburyo amenyo ye afite isuku, kandi ayitaho buri munsi kugira ngo atagira ikibazo.

Umurwayi uryamye ku gitanda, imbere yaho hariho itara rimwe rinini, iruhande rwe hari abaganga babiri bambaye amashati y'umukara, bambaye n'udupfukamunwa, umwe yambaye ako ubururu, undi yambaye ako umukara, bigaragara nkaho barimo kumufasha kureba mu kanwa ke.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bigaragara nkaho arimo guseka yerekana amenyo y'umweru. Bishaka kwerekana ko ari umugabo ufite mu kanwa heza, ugirira amenyo ye isuku.

Abana bambaye iniforume, bafite uburoso buri mu mabara atandukanye, bafite udukombe turimo amazi, biragaragara nkaho ari abana b'abanyeshuri barimo gukora amasuku ku menyo ndetse no mu kanwa kabo.

Umugabo urimo guseka, ufite agatambaro k'umweru yashyize ku gituza, yicaye ku ntebe aregamye, bigaragara nkaho ari umugabo urimo kwerekana uburyo amenyo ye ameze neza, iruhande rwe hari ibikoresho bakoresha kwa muganga.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, urimo guseka afite uburoso, bigaragara nkaho arimo gukora amasuku y'amenyo mu gitondo.

Umukobwa ufite umugozi w'umweru urimo kuwushyira mu menyo ye, bigaragara nkaho ari umukobwa ufite amenyo y'umweru kandi asa neza, wambaye isengeri y'umweru.

Icyumba gisizwe amarangi y'umweru ku nkuta, hateretsemo akabati bashyiraho ibintu bitandukanye, agatanda umurwayi yicaraho, intebe muganga yicaraho asuzuma umurwayi ndetse n'imashini umuganga akoresha kugira ngo asuzume umurwayi, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Umukobwa witeze aka esume k'umweru, wambaye n'agasenyeri k'umweru, ufite uburoso bigaragara nkaho arimo gukora amasuku y'amenyo.

Inyubako isizwe irangi ry'umweru hasi, hejuru, no ku bikuta, harimo agatanda umurwayi yicaraho, imashini umuganga areberaho uko umurwayi ameze, ni imashini bakoresha bareba mu kanwa k'umurwayi.

Umukobwa urimo guseka, wambaye agapira karimo uturonko tw'umuhondo ndetse n'umweru, ufite ikirahuri urimo kurebamo, bigaragara yuko ari umukobwa urimo kureba uko mu kanwa he ndetse n'amenyo ye hameze.

Umugabo uri imbere y'ikirahuri wambaye amarinete ufite akantu karimo imiti, imbere ye hari umugezi bigaragara nk'aho ari umusaza ugiye gufata imiti yo kunywa.

Abantu benshi batandukanye, bicaye hasi bafite icyapa kerekana ko hari umunsi w'amenyo.

Umuganga wambaye gorovuzi, ufite igikoresho cyo kwa muganga ari kubasha kureba mu kanwa k'umurwayi ufite umusatsi w'umukara ndetse wambaye n'ishati y'ubururu y'amakarokaro.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, ufashwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu ndetse n'umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira wa kaki, bigaragara nkaho barimo gufasha umusaza guhaguruka ku buriri yari aryamyeho.

Umugore ndetse n'umugabo, umugabo wambaye ishati y'umweru, umugore wambaye agapira k'ubururu, bafite terefone barimo kureba uburyo bajya bafata imiti, ku meza hateretse urupapuro rwo kwa muganga, ikirahuri cy'amazi ndetse n'uducupa turimo imiti.

Umuganga wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umutuku wambaye agapfukanwa k'ubururu, ufite akumviriza amajwi' kumutima ndetse n'ibihaha ukambaye mu ijosi, afite ukuboko k'umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge, bigaragara y'uko arimo kumufasha mu kureba uko ubuzima bwe bumeze.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ufite utuntu tw'umutuku tubiri, bigaragara nkaho arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Mu cyumba kirimo umuryango ugizwe n'abamama babiri ndetse n'abana cumi na bane bicaye ku gitanda gishashe neza, hirya yabo hariho ijerekani y'ubururu ifite umufuniko w'umukara.

Umusaza wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umugore we wambaye ikoti ry'ubururu ndetse ufite igitambara mu mutwe cy'umutuku, barimo baraseka, barishimye, bigaragara nkaho ari umuryango ufite urukundo.

Mu cyumba kirimo abantu babiri, umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite n'akumva bihaha ndetse n'akumva mutima arimo kuganiriza umupapa wambaye ishati ya kaki, bigaragara nk'aho ari kwa muganga arimo kumusobanurira iby'uburwayi bwe.

Umumama wambaye ikanzu y'umweru, irimo uturonko tw'ubururu, tumanuye ndetse n'agapira k'ubururu, wicaye ku ntebe, inyuma ye hariho umuforomo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu n'agapira k'umweru, umufashe imbere mu bituza bye.

Umukecuru wambaye igitambara cy'umweru mu mutwe ndetse wambaye ishati y'umweru yicaye hasi arimo arateka ku mashyiga hariho amasafuriya abiri ari mu ibara ry'umukara, iruhande rwe hateretse inkwi nyinshi, inyuma ye hari ibyatsi bitandukanye.

Umugore wambaye ingofero y'umweru, wambaye umupira w'umukara, ufite ikintu cy'umweru kiriho imigozi yo mu ibara ry'umweru, ari kumwe n'abagore babiri bafite terefone bigaragara nkaho ari abagore barimo kureba muri terefone, imbere y'aho hateretse ibikoresho byo kwa muganga.

Umugabo wifashe ku kananwa arimo gusoma igitabo, yambaye ishati ndetse afite n'ikaramu mu kuboko kw'ibumoso, bigaragara yuko ari umugabo urimo gusoma ibijyanye n'ubuzima butandukanye.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu arimo gufasha umugabo ufite igikombe cy'umweru, bigaragara nkaho kirimo amazi. Umugore arimo kumwitaho nkaho arimo kumufasha kunywa imiti.

Abagabo babiri barimo gukurura akantu, bigaragara nk'aho umwe ariwe ufasha mugenzi we, kugira ngo abashe kwiyitaho. Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, n'ipantaro y'umukara, ndetse n'undi wambaye agapira k'umweru.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara, wambaye umupira w'ubururu, afashe ukuboko kw'iburyo k'umugabo wicaye mu kagare, wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'umupira w'umukara, ufite isume y'ubururu, bigaragara nkaho afite ikibazo cyo kutagenda, akaba yicaye mu kagare.

Mu cyumba aho harimo amadirishya afunze ateye irangi ry'umweru, harimo umu mama w'umukecuru ufite imisatsi y'umweru. Aho arimo kurya imbuto zitandukanye.

Abagabo babiri bicaye ku meza, ku meza hari imiti ndetse na mudasobwa, bigaragara nkaho ari umusaza urimo kubaza umuganga uko iyo miti bayifata ndetse nuko bayinywa.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'umukenyero w'umweru, wambaye rinete ndetse n'ingofero, undi wambaye ishati y'umweru n'umukenyero w'umukara ufite n'ingofero, barimo baracurira bigaragara nkaho bari mu itente bishimiye ibirimo birakorwa.

Abagore babiri umwe wambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umutuku, undi wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu, iruhande rwayo hari ibiti ndetse n'indabo bigaragara nkaho ari abamama babiri bari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umusaza wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi y'umukara wicaye mu kagare, arimo gusunikwa n'umugore wambaye agapira k'ubururu, bose hamwe barimo guseka, bigaragara nkaho arimo kumufasha mu buzima bwa buri munsi.

Umugore urimo gusobanurira umusaza wambaye amarinete n'umupira w'umukara uburyo agomba kujya afata imiti, bigaragara nkaho arimo kumuganiriza mu buryo bwo gufata imiti.

Abakecuru umunani bamwe bambaye ibitenge by'ubururu abandi iby'umutuku abandi bambaye utugofero tw'ubururu n'umweru bicaye hamwe bigaragara nk'aho barimo kuganirizwa.

Umuganga wambaye ishati y'ubururu, ufite n'akumvamajwi y'umutima ndetse n'ibihaha, mu ijosi afashe ukuboko kw'iburyo k'umukecuru wambaye amarinete, wambaye n'umupira urimo uturonko tw'umukara, bigaragara nkaho arimo kumuganiriza.

Abakecuru babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku ndetse n'imikenyero y'umweru, ufite inkoni, undi na we wambaye umupira w'umutuku, imikenyero y'umweru na we ufite inkoni, barimo kugenda bigaragara nkaho bavuye mu rugendo. Inyuma yabo hari abantu benshi.

Umugore wambaye ikanzu y'umuhondo, ufite icupa rivamo imiti bigaragara nk'aho ari umumama urimo gufata imiti yahawe na muganga imufasha kugira ngo abashe kumererwa neza.

Mucyumba aho amadirishya afunguye, umukecuru arimo arafashwa n'umumama mu kumunanura amaboko amukoresha imyitozo ngororamubiri itandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite ubwanwa bw'umweru, arimo guhabwa imiti n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu, bigaragara nkaho arimo kumufasha gufata neza imiti muganga yamwandikiye.

Mu nyubako hicaye umusaza n'umukecuru, barimo kureba uko bafata imiti, ku meza hariho ivaze irimo ururabo rw'icyatsi, hateretseho ikirahuri kirimo amazi ndetse n'agacupa karimo imiti.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, arimo arafasha umurwayi kurambura ukuboko ku iburyo, umurwayi yambaye ishati y'ubururu, bigaragara nkaho yaje kwa muganga kugira ngo bamufashe.

Abantu benshi bateraniye mu nyubako, imbere y'aho hariho ababyinnyi barimo kubyina imbyino ya Kinyarwanda bigaragara nk'aho ari umunsi Mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA ku Isi.

Igishanyo cyerekana uko ibitaro bigiye bimeze kirerekana ko habanza communitybsd heh warkers helf center healt post distict hospital medicalized hilp center provcial ferlo hospital and natinel defelo tecg hospital

Cyerekana imiti umuntu ashobora kwizera akanahamagara ubufasha, hariho umwana urimo kurira, iruhande rwaho harimo amagambo menshi yo mu ibara ry'ubururu, bigaragara nkaho ari icyerekana imiti umuntu ashobora gufata ndetse n'igihe agize ikibazo ko yahamagara ubufasha.

Ni ibishushanyo byinshi biri mu mabara atandukanye, umutuku, ubururu, umukara, umweru, umuhondo, bigaragaza kurwanya kanseri y'ibere.

Umuntu ufashe igishushanyo cyanditsweho Monke pox varsiny acces na we bigaragara nkaho arimo kuvuga ko urukingo rwa M-pox rwabashije kuboneka kandi ruri access.

Umugabo wambaye ishati yo mu ibara ry'umukara, ipantaro y'ubururu, ndetse n'umugore wambaye ishati y'umweru irimo utuntu tw'umukara ndetse wambaye ipantaro n'ikoti by'umukara bahagaze imbere y'ibirangantego by'ibara, byo mu ibara ry'igihugu cy'u Rwanda, iruhande rwabo hari intebe yo mu ibara ry'umukara.

Inyubako ifite ibyuma bihagaze ndetse isize ibara ry'umukara, hicaye abagore batandukanye, bigaragara nk'aho baje kumva ibiganiro byo guhagarika kanseri.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo abaganga batatu bose bambaye udupfukamunwa, ingofero ndetse n'imyenda y'icyatsi kibisi, barimo gufasha umurwayi bamurebera ikibazo yagize, inyuma yabo hariho kompiyuta igaragaza uko mu nda h'umurwayi hameze.

Abantu bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri bafite icyapa cyerekana kandi gishushanyijeho udukingirizo, bigaragara nk'aho ari abantu barimo gutanga inama yo gukoresha agakingirizo.

Igishushanyo cyerekana abantu babiri, umwe wicaye ku ntebe wambaye ipantaro y'umuhondo ndetse n'umupira w'ubururu, inyuma ye hari muganga wambaye itaburiya y'umweru arimo kumutera umuti, bigaragara nkaho ari urukingo rwa korona virusi.

Igishushanyo cyerekana guhagarika Korona virusi, harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabone, kwambara agapfukamunwa, guhana intera ndetse no gupfuka amazuru igihe witsamuye.

Urubyiruko rutandukanye rwambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, barimo bafashe ibyapa byerekana kwirinda kanseri y'ibere, mu gihe runaka aho bavuga ko ivurwa igakira.

Abaganga bambaye amataburiya y'ubururu, ubupfukamunwa ndetse n'ingofero zihisha amazuru, amaso n'umutwe, barimo baravura mu kanwa k'umusaza wambaye ingofero y'ubururu n'ikoti ry'umukara, wicaye ku ntebe y'umutuku.

Igishushanya cyerekana uko birinda kanseri, hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ari mu ibara ry'icyatsi bigaragara yuko ari igishushanyo cyerekana uburyo ndetse n'ingaruka bya kanseri.

Abagabo babiri, bose bafite ibitabo, bambaye amakoti y'ubururu, amashati y'umweru ndetse na karavati z'umukara. Inyuma yaho hari icyapa kiriho ikirango cya Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikirango cy'igihugu.

Agakarito kanditseho kovagisi, sepi, unicef, gavi bigaragara nk'aho ari agakarito kerekana uko babasha gukoresha bya vagisi nya unicef.

Mu nyubako itewe n'amarangi y'umweru hasi ku rukuta, hateraniye abantu benshi, iruhande rwabo hariho ibyapa bitandukanye bigaragara nkaho ari abantu bari bavuye mu nama baganira ku bintu bitandukanye.

Igishushanyo gikiri mu mabara y'umutuku, ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu bwijimye. Bigaragaza inkingo umuntu ashobora kubona.

Mu nyubako harimo abantu benshi, harimo umuganga wambaye itabuririya y'umweru ndetse n'akandi gataburiya k'umutuku, arimo gufata umuvuduko umurwayi wambaye umupira w'umukara kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Abakobwa bambaye imipira y'umweru, amapantaro y'umukara ndetse n'amapantaro y'ubururu, bafite ibyapa bigaragara nkaho barimo kwamamaza ubuzima busanzwe.

Igitabo kirimo ibara ry'ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'umweru, bigaragara nkaho ari igitabo kerekana Family Planing Market Repot y'imyaka icumi.

Inyubako hateraniyemo abantu benshi, imbere yaho hahagaze umugore ufite indangururamajwi wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikanzu y'umweru, bigaragara nkaho arimo gutanga ikiganiro ku bintu bitandukanye.

Ubwinjiriro bw'ibitaro bya Kabgayi, ni ibitaro byubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, iruhande rwayo hagiye hateye ibiti.

Inyubako iri mu ibara ry'ivu, iruhande rwayo hari igiti ndetse n'ibyapa bigaragaza amerekezo, biragaragara ko ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako iri mui ibara ry'umweru ndetse ifite ibirahuri by'ubururu, imbere yaho hateye igihingwa k'igiti gifite amababi yo mu ibara ry'icyatsi, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako y'umweru imbere yaho hari indabo z'icyatsi ndetse n'umuhanda bigaragara nkaho ari inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, iruhande rwayo hari indi nyubako na yo yubakishijwe ibara ry'umweru.

Abaganga batatu b'abagore bambaye amashati y'ubururu ndetse n'udutambararo dupfuka mu mutwe tw'ubururu, bari imbere y'ibyatsi by'indabo bigaragara nkaho ari abaganga.

Icyumba kirimo imashini iri mu ibara ry'umweru, kiriho agatanda umurwayi yicaraho kugira ngo abashe kunyura muri icyo cyumba, iruhande rwacyo hari isaha iri ku rukuta ndetse na mudasobwa muganga akoresha areba uko umurwayi ameze.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda bibiri, kimwe kicayeho umumama wambaye agapira k'umweru ndetse n'agatenge yiteze mu mutwe gatukura, hirya ye hariho umuganga urimo gusuzuma umubyeyi ufite akagofero k'umukara ndetse n'agasengeri k'umweru bigaragara nkaho arimo kumufasha.

Mu cyumba harimo intebe y'umweru, imbere yaho hariho agatanda, iruhande rwaho hariho akabati bashyiramo ibintu bitandukanye, bigaragara nk'aho ari icyumba cyo kwa muganga.

Inyubako iri mu ibara ndetse yubakishijwe amabuye, inyuma y'aho ndetse n'iruhande rwayo hari indi nyubako nini cyane nayo iri mu bwoko bwa etaje.

Inyubako yubakishije amatafari y'umutuku ahiye n'amabati y'ubururu, imbere yaho hari indabo z'icyatsi ndetse n'umuhondo bigaragara nkaho ari ibitaro bya Gihundwe bivura amaso.

Mu nyubako hateraniyemo abantu benshi, imbere yabo hari abagabo batatu barimo kubigisha mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi busanzwe, bigaragara nkaho ari abarwayi baje kwa muganga ariko barimo gufashwa n'abarimo kubaha ibiganiro.

Mu nyubako hagati ya hateye abantu benshi, ku meza yabo hariho mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi, imbere yabo hariho abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, bigaragara nkaho ari i Gahini barimo gutanga ikiganiro ku byerekeye gusubiza abantu mu buzima busanzwe.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amabati y'ubururu, imbere y'aho hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, biragaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga, aho bafatira amaraso bakanavura Malariya.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere yaho hateye pasiparume ndetse n'igiti kiri mu ibara ry'icyatsi, imbere y'ibitaro hahagaze abaganga babiri bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, bigaragara nkaho ari inyubako y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Inyubako yubakishijwe ibirahuri, yerekana ko ari inyubako babasha gukoreramo ubushakashatsi ifite ibyumba bitandukanye.

Inyubako isizwe irange ry'umuhondo harimo ibitanda bine, buri gitanda kiryamyeho umurwayi, hejuru hari supanete baryamamo kugira ngo ibashe kubarinda imiti, imibu.

Inyubako yubakishijwe amabati ndetse akaba ari inyubako ya etaje, imbere yaho hariho abantu benshi hariho aba mama babiri n'umugabo, hagati yaho hari igiti cy'inganzamarumbu bigaragara nk'aho ari inyubako y'ibitaro.

Mu cyumba harimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye bakoresha, umuganga yambaye gloves z'ubururu ndetse n'itaburiya y'umweru yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, afite icupa ririmo imiti.

Amashashi ateretse ku gatanda k'umukara, ni amashashi arimo amaraso bigaragara nkaho ari kwa muganga, aho bateraniriza hamwe amaraso ajya gufasha abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye n'amabati y'umutuku, imbere yaho hari imodoka y'umukara, hahagaze abantu benshi bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga iriho abarwayi baje kwivuza.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, bigaragara nk'aho ari inyubako yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho bahagararaho birukanka, ibikoresho baryamaho baterura ibyuma.

Inyubako ya etaje, yubakishijwe amabati y'umutuku, imbere yaaho handitseho ibitaro bya Shyira by'Akarere. Bigaragara nk'aho ari ibitaro byifashishwa mu kuvura abarwayi bafite uburwayi butandukanye.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara watebeje wambaye n'umukandara, arimo kuzinga supanete z'abarwayi, iruhande rwe hari umurwayi wambaye ishati y'ubururu uryamye ku gitanda.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibicupa binini byo mu ibara ry'ubururu ndetse n'akabati ko mu ibara ry'umweru, bigaragara nkaho ari ibikoresho bifashishwa kwa muganga.

Inyubako irimo ibara ry'umweru, iri mu bwoko bwa etaje imbere y'aho hari ibiti byinshi ndetse n'umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya ye iburyo bwe ahahagaze umuntu wambaye umupira w'umutuku bigaragara nk'aho ari inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Butare.

Ku bitaro bivura abana hahagaze abantu benshi harimo abagabo, abagore ndetse n'abanyeshuri, imbere y'ibyo bitaro hariho abaganga bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi bagabo bambaye imipira y'icyatsi. Iruhande rwayo hariho itente rifite ihema ry'umweru.

Mu nyubako hagati isizwe n'amarangi y'umweru, harimo abaganga bambaye amataburiya y'ubururu, ndetse n'utugofero dupfuka imisazi imisatsi yabo, ku gitanda haryamye umurwayi nawe wambaye imyenda y'ubururu basizeho igitambara cy'icyatsi, iruhande rwe hari imashini abaganga bakoresha mu kumusuzuma.

Inyubako ya etaje nini, imbere y'aho hariho ibiti, mu muhanda w'iyo nyubako harimo kugenda abantu batatu, umwe wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki, undi wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'ubururu ndetse n'undi wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu, bigaragara nk'aho bari kujya ku nyubako.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru, hagati hari ibishushanyo byerekana kandi biranga ibyumba runaka bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, iri mu ibara ry'umweru, imbere yaho hari abantu benshi batandukanye, barimo kugenda bagana kuri iyo nyubako, igaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru, harimo abantu benshi bahagaze batonze ku murongo, imbere yabo hari intebe z'umukara ndetse n'intebe ndende y'urubaho, hariho n'umugabo w'umusaza wicaye mu kagare, imbere yabo hahagaze abaganga bambaye imipira y'umweru, bigaragara nk'aho baje kwivuza ndetse no guhabwa inama zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye. Harimo ibyo bafatiramo amaraso ndetse n'ibyo babasha gushyiramo imyanda itandukanye iba yavuye mu barwayi.

Iri mu ibara rya pink ndetse ifite amabati y'umutuku, iri mu bwoko bwa etaje, imbere y'aho haparitse imodoka ndetse n'ipikipiki, iruhande rw'aho hari idarapo ry'u Rwanda, bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati atukura, imbere yayo hariho abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, mu bagore babiri harimo umuganga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara bigaragara nkaho ari ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye bifashisha mu kureba uko umurwayi ameze, hariho intebe aho umuganga yicara areba kuri mashine ndetse n'aho umurwayi yicara.

Mu cyumba harimo kwaka amatara y'umweru, harimo icyuma cya sikaneri ndetse n'ikindi cyuma babasha gukoresha bareba iyo sikaneri, harimo isaha ku rukuta rw'umweru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati, imbere yaho hariho indabo z'icyatsi ndetse n'indabo z'umuhondo, bigaragara nkaho ari ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Inyubako irimo intebe nyinshi zitandukanye, ameza, mudasobwa, akabati kariho imiti itandukanye. Imbere yaho hariho igishushanyo cy'abantu, bigaragara yuko ari inyubako yo kwa muganga bifashisha mu kuvura abarwayi batandukanye.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo imashini bifashishya bagiye kunyuza umurwayi mu cyuma, yaba mu mutwe, yaba munda ndetse n'amagufa, hariho aho umurwayi aryama ndetse n'aho umurwayi anyura.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ifite amabati y'ubururu, imbere yaho hari abantu bahagaze ndetse n'imodoka ihaparitse, hirya yaho na none hari aka jaride gato gateyemo icyatsi, igaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako iri mu bwoko bwa etaje ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, imbere yaho hari abantu benshi batandukanye abinjira n'abasohoka, hariho ibirango byerekana aho imodoka ziparika, umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga ndetse n'aho binjirira, aho bavurira indembe. Bigaragara nk'aho ari ibitaro byitiriwe umwami Faisal.

Inyubako nini irimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hahagaze abantu baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, iyi nyubako kandi ni inzu nini ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Inyubako nini cyane yubakishijwe kandi isize irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye bakoresha mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo bimwe bicaraho, ibindi baterura kugira ngo babashe kugira ibiro.

Mu bitaro harimo ibitanda bibiri biriho abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, bose bafite amapompo abasha kunyuramo umwuka, abafasha guhumeka.

Inyubako imbere yaho hariho moto ndetse n'abantu babiri bahagaze, hari icyapa cyanditseho Pano Pharmacy, bigaragara nkaho ari inyubako ikorerwamo farumasi mu kubasha gutanga imiti.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda byinshi ndetse n'inzitiramubu nyinshi z'umweru n'amarido y'ubururu, hariho umuntu uhagaze imbere yibyo bitanda wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu.

Mu nyubako harimo intebe nyinshi zicayeho abantu, imbere yaho hariho imiryango binjiramo, bigaragara nkaho ari abarwayi baje kwa muganga bategereje kwinjira ngo baganire na muganga.

Mu cyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru hasi ndetse no hejuru, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi baje bagana kwa muganga.

Mu nyubako harimo intebe y'umukara, ifite aho bicara h'ubururu ndetse n'intebe umurwayi yicaraho, hejuru hari amatara amwe manini cyane, iruhande hariho mudasobwa babasha gukoresha bareba uko umurwayi ameze, bigaragara nk'aho ari icyumba babagiramo kwa muganga.

Inzu nini iriho imbere hari intebe, iruhande rw'iyo ntebe hariho amavaze arimo ibyatsi bibisi by'indabo, bigaragara nkaho ari icyumba babasha gukoreramo imyitozo ngororamubiri.

Mu bitaro, umuganga wambaye ishati y'ubururu, afite imisatsi y'umukara, wambaye inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu, urimo kugenda iruhande rwe hari ibikoresho bifashisha kwa muganga bitandukanye, imbere ye hariyo n'abandi baganga,

Icyumba gifite amakaro y'umweru, iruhande rwayo hariho intebe y'umweru, gifite utubati turimo imiti itandukanye, iy'abana ndetse n'iy'abakuru, ibinini ndetse n'iyokunywa, bigaragara nkaho ari farumasi.

Mu nyubako hagati ku bikuta hasizwe ibara ry'umweru, hejuru hari itara ririmo kwaka, ku mpande hariho akabati bashyiramo ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'agatanda umurwayi yicaraho, bigaragara yuko ari inyubako yo kwa muganga bakoresha basuzuma abarwayi.

Inyubako yubakishijwe amabati y'ubururu ndetse isizwe amarangi yo mu ibara ry'umuhondo, imbere yaho hateye ibiti birebire, na none imbere yaho hari ibyapa byerekana ibitaro bya Nyanza. Biragaragara nkaho ari inyubako ikorerwamo n'ibitaro by'akarere ka Nyanza.

Mu cyumba harimo umuganga wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, urimo gufasha umurwayi uryamye ku gitanda, bigaragara nk'aho arimo kumuha imiti.

Mu cyumba harimo ibikoresho bitandukanye by'ibyuma, hasi hateye amakaro y'ubururu. Bigaragara nk'aho ari icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ari mu ibara ry'umweru, imbere yaho hateye ibiti biri muri jaride, biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umuhondo, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako ya etaje iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku bigaragara nk'aho imbere y'aho haparitse imodoka ndetse n'abantu benshi, ni inyubako y'inzu y'ababyeyi ndetse n'impinja.

Inyubako ifite utubati dusize ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, turimo amavuta, amacupa arimo imiti ndetse n'udukarita turimo imiti, igaragara nkaho ari inyubako ikorerwamo na farumasi kugira ngo ibashe gutanga imiti.

Mu cyumba kirimo ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri bitandukanye, imwe bicaraho n'ibindi bahagararaho bakagenda birukanka.

Icyumba kirimo ibikoresho bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bahagararaho birukanka, ibikoresho baryamaho, ndetse n'ibikoresho bifashisha baterura ibyuma.

Mu nyubako isizwe irangi ry'umweru hasi hejuru ndetse no ku bikuta, harimo imashini iri mu ibara ry'umweru, ifite agatanda umurwayi aryamaho kugira ngo anyure muri icyo cyuma, bigaragara nk'aho ari imashini bifashisha kwa muganga mu gusuzuma abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako irimo igitanda gifite amashuka y'umweru, iruhande rwayo hari imashini ifite mudasobwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubasha guha umurwayi imiti, bigaragara yuko ari inyubako yo kwa muganga.

Mu nyubako hagati isizwemo ibara ry'umweru, hasi, hejuru ndetse no ku mpande hariho imashini bakoresha basuzuma umurwayi, iruhande rwayo hariho agatanda umurwayi aryamaho. Bigaragara yuko ari inyubako yo kwa muganga ikoreshwa n'abaganga kugira ngo basuzume umurwayi

Inyubako iri mu ibara ry'icyatsi ndetse isakaje amabati y'icyatsi, imbere yaho hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, iruhande rwe hari icyapa kiranga amerekezo, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Mu cyumba cyo kwa muganga hariho ibitanda baryamishamo abana ndetse n'ibyo baryamishamo abarwayi, iruhande rwabo hari umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'imyenda yo kwa muganga.

Inyubako iri mu bwoko bwa etage, ihagazweho n'abantu benshi, hejuru hari icyapa cya RBC, imbere yaho haparitse imodoka z'ambulance ndetse n'imodoka y'umukara, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Mu nyubako harimo imashini nyinshi, hagati y'izo mashini harimo utumashini duto tw'umukara, babasha gushyiramo ibikoresho bitandukanye bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isize irangi ry'umukara ndetse n'irangi ry'umweru, ku madirishya, imbere yaho hari icyuma gifashe ikigega kijyamo amazi ndetse hari n'abantu benshi batandukanye. Bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga iriho abarwayi baje kwivuza.

Inyubako iri mu bwoko bwa etaje iruhande rwayo hahagaze abantu benshi, imbere yaho hari igiti kinini cy'inganzamarumbo bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga haje abarwayi kugirango bivuze.

Inyubako yubakishijwe amatente yo mu ibara ry'umweru, irimo ibitanda by'ubururu, harimo abarwayi ndetse n'abaganga bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, ndetse n'amataburiya y'umweru, bigaragara y'uko ari itente irimo abaganga barimo kwita ku barwayi.

Inyubako iri mu ibara ryandikishijwe amagambo CARAES Frere de la Chalite, imbere yaho hari ibiti byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, bigaragara nkaho ari ibitaro byita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako yubakikijwe ndetse isakajwe n'amabati y'umutuku, imbere yaho haparitse imodoka ndetse hari n'icyapa cyerekana aho bakirira abarwayi, igaragara nk'aho ari ibitaro bya kaminuza biherereye mu majyepfo y'u Rwanda i Butare.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye imbere y'igiti k'inganzamarumbo kinini cyane, bigaragara nk'aho arimo kuruhuka.

Inyubako yubakishijwe mu ibara ry'umuhondo, imbere yaho hari ivaze irimo ururabo ndetse n'indabo nyinshi zo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, bigaragara nkaho ari inyubako yahariwe Kanseri.

Mu nyubako ifite amarangi y'umweru harimo indi nyubako nini yanditseho bayontena, bigaragara nkaho ari inyubako bifashisha mu buvuzi busanzwe kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, hagati hari ibiti bitandukanye, imbere yaho haparitse imodoka bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Umuforomo arimo arafasha umurwayi wiwe kuba yabona imiti ndetse no kuba yamukorera ibindi by'ibanze bifasha umurwayi kubaho mu buzima bwiza.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, irimo ibara ry'umweru, imbere yaho hari indabo ziri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwayo hateye indabo ziri mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'igiti kinini, bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga.

Kwa muganga harimo ibitanda byinshi biri mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse harimo n'amarido y'ubururu, hagati y'ibyo bitanda hahagaze umuganga wambaye imyenda y'icyatsi kibisi.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite icyapa cyanditseho Ibitaro bya Ruhengeri. Iruhande rwayo hari abantu benshi. Bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga, irimo kuganwaho n'abantu batandukanye bagiye kwivuza.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo imashini yifashishwa, n'abaganga babasha gusuzuma umurwayi, bamunyuza mu cyuma. Hahagaze umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ndetse iruhande rwe hariho agatanda umurwayi abasha kwicara kugira ngo anyure mu cyuma.

Inyubako yubakishijwe amabara y'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, harimo intebe zo kwicaraho, hariho ameza, mudasobwa, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Mu cyumba cyo kwa muganga. Muganga ufite mudasobwa yambaye ikoti ry'ubururu arimo kureba kuri mudasobwa ishusho yerekana ibihaha by'umurwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo umuganga wambaye ingofero mu mutwe y'umweru, wambaye ishati y'ubururu, arimo gufasha umwana umaze kuvuka uri muri kuveze.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo imashini zibasha gukoreshwa babasha kureba ikintu kiri mu nda y'umurwayi, hariho izo mashini, iruhande rwayo hari igitanda umurwayi abasha kwicaraho.

Icyumba kirimo ibitanda bitandukanye, imbere yayo hahagaze umuganga wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, bigaragara nkaho ari icyumba cyo kwa muganga bakoresha bita ku barwayi.

Abaganga batandatu bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, bahagaze ku cyapa cyanditseho Legacy Clinic, bivuze ivuriro rya Legacy.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati atukura, yanditsweho ikigo nderabuzima cya Gishweru, hahagaze abantu bane, abagore babiri, umwe wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikanzu, undi wambaye, w'umuganga wambaye, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Umugabo wambaye ingofero y'umutuku n'ipantaro y'umutuku ndetse n'ishati y'igitenge. Undi yicaye ku ntebe.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, imbere yaho hari icyapa cyanditseho Huye, bigaragara nkaho ari inyubako ikoreshwa mu kuvura abantu batandukanye.

Kwa muganga, umuganga wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'umurwayi wambaye ikanzu y'ubururu uryamye ku gitanda arimo arafashwa n'uwo muganga ndetse n'umuntu umuri iruhande w'umugabo.

Inyubako isize irange ry'umweru, isakajwe amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari umuhanda ndetse n'indabo nziza, bigaragara nk'aho ari inyubako yo kwa muganga.

Mu cyumba harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse bambaye na ga z'ubururu, imbere yaho hariho amacupa arimo imiti, bigaragara nkaho barimo gusuzuma imiti.

Inyubako yo kwa muganga isizwe irangi ry'umweru ku bikuta n'irangi ry'umweru hasi, hariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aho harimo nyine udutanda abarwayi bicaraho ndetse n'imashini bakoresha mu kubasha kubasuzuma.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru, umukara ndetse n'ubururu, isakajwe amabati y'ubururu, imbere yayo haparitse imodoka ndetse n'abantu benshi barimo kuganira, bigaragara yuko ari inyubako yo kwa muganga.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye iri mu bwoko bwa etaje, imbere yayo hariho abantu babagabo babiri bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, imbere yayo nanone hariho moto ndetse n'ibyapa biranga, bigaragara kaho ari inyubako yo kwa muganga.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umukara, wasize amaguru hasi ndetse n'ukuboko kw'ibumoso hasi, bigaragara nk'aho arimo no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ya kora ndetse n'agasengeri k'umukara, ufite ekuteri mu matwi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye agorora amaguru yiwe.

Intebe cyangwa akagare umuntu yicaraho abasha gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara yuko ari icyumba babasha gukuramo imyitozo ngororamubiri, ifasha abantu kugira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kwita ku buzima bw'umuntu bamutabara ako kanya, harimo imyambaro bambara mu biganza kugira ngo ibashe kubarinda, harimo imiti, inshinge ndetse n'udutoroshi bakoresha babasha kureba mu maso h'umurwayi.

Umugabo urimo kwirukanka bigaragara yuko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari ibihingwa bitandukanye harimo: amashu, karoti, pome, indimu ndetse n'ibiribwa bitandukanye.

Imyitozo icumi ngoramubiri yabasha gufasha umuntu wagize ikibazo cyo guhungabana mu bwonko. Iruhande rw'iburyo hariho imyitozo itanu iri mu'ibara ry'ubururu, iruhande rw'ibumoso hari imyitozo itanu yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi. Ibumoso hariho umuntu ufashe ku ntebe naho iburyo hari umuntu wicaye ku ntebe.

Mu nyubako harimo umuganga wambaye ijire y'ubururu n'agapira k'umutuku, ibumoso bwe hari umwana arimo kumufasha kureba uko umwana ameze muri rusange.

Umukobwa wicaye ku kibuga yambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'agasengeri k'umutuku, bigaragara nkaho ari umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye agapira k'umukara, ufite esume y'umweru afashishije icupa ririmo amazi meza ukuboko kw'iburyo bigaragara nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'umweru urimo kwinanura amaboko ye, bigaragara nkaho ari umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we ukomeze guhora umeze neza.

Ku meza hariho amacupa atandukanye arimo imiti, hariho amakarito arimo imiti ndetse hariho na ga bambara kugira ngo babashe kwirinda.

Umukobwa ufite icupa ririmo amazi meza, afite akayisime k'umweru, yambaye agasengeri k'ubururu, bigaragara nk'aho arimo kunywa amazi nyuma yo kuva mu myitozo ngororamubiri.

Icupa ryo mu ibara ry'umweru ndetse n'ikirahuri kiriri mu ibara ry'umweru, bigaragara nk'uko ari umuntu urimo gusuka amazi ayakuye mu icupa ayashyira mu kirahuri cy'umweru.

Ibishushanyo byerekana isaha n'abantu bari mu myitozo ngororamubiri itandukanye harimo kwicara, kwirukanka ndetse no kwinanura.

Mudasobwa yerekana amashusho yafashwe anyuze mu cyuma, bigaragara nk'aho ari amashusho yerekana mu mutwe w'umuntu yafatiwe kwa muganga.

Igishushanyo cyerekana uburyo babasha gukora imyitozo ngororamubiri ku kiganza cyawe, birerekana neza ukuntu babasha gufata ibiganza ubihina kugira ngo ubashe kukinanura.

Umuntu wicaye ku ntebe imbere ye hari umugabo wambaye ipantaro ya kaki ndetse n'umupira w'ubururu, arimo kumushyiraho sipuradara bigaragara nkaho arimo kumufasha kumukiza imvune yagize.

Agakoresho bakoresha kwa muganga, babasha gufasha abantu bagize ikibazo cyo kutagenda kugira ngo basubire mu buzima bwabo bwa buri munsi. Gafite uburebure bwa santimetero ijana na rimwe, gafite ubugari bwa santimetero mirongo icyenda na rimwe ndetse n'aho umuntu agomba guhagarara, hafite santimetero mirongo itandatu n'umunani.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, uri kumwe n'umugabo wambaye ipa aga ingofero n'agapira by'umukara barimo barakora imyitozo ngororamubiri bigaragara nkaho bari mu cyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri, hirya yaho hariho ibyuma babasha gukoresha baterura ibiro ndetse n'ibyo babasha gukoresha bicaraho.

Ku meza hateretse ibintu byinshi harimo imidari yo mu bwoko butandukanye, imiti harimo imbuto zitandukanye imineke, inanasi ndetse n'imibuyu.

Icyumba gifite ibara ry'umweru hasi hejuru no ku bikuta harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gusuzuma umurwayi, harimo intebe umurwayi yicaraho, amatara muganga akoresha ndetse n'imashini muganga areberamo bigaragara, nkaho ari inyubako yo kwa muganga.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru, ufite imisatsi myinshi azamuye amaboko ayashyira hejuru, bigaragara nkaho arimo gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari amazi menshi bigaragara nkaho ari ku nyanja.

Umuntu wambaye umupira wanditseho nimero mirongo itatu na rimwe, wambaye ikabutura y'umweru ndetse n'amasogisi y'umukara n'inkweto za godiyo z'umukara. Bigaragara yuko yicaye ku gatanda, yabashije kuvunika.

Umukobwa wambaye agakabutura k'ubururu, agasengeri k'ubururu, ndetse n'inkweto z'ubururu za siporo, arimo gukora imyitozo ngororamubiri ahina ivi ry'iburyo.

Umukobwa wambaye inkweto z'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara urimo gufata amaboko ye ayashyira ku nkweto, bigaragara nkaho ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ufite umupira wo gukina uri mu ibara ry'ubururu, wanditseho kane, bigaragara nkaho ari umuntu ufite umupira agiye mu myitozo ngororamubiri yo gukina.

Igishushanyo cyerekana uburyo umuntu agomba kwirinda icyorezo cya Korona Virus, harimo gukaraba intoki n'amazi meza, kwirinda gusuhuzanya ndetse no guhana intera.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, ikabutura y'umukara, amasogisi y'umweru ufite ukuguru kw'ibumoso yaguteretse ku rutugu rw'uwo mugabo wambaye agapira k'umukara, bigaragara nkaho arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri no kumunura amaguru ye.

Umukobwa wicaye ku byuma bifashisha babasha gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, bigaragara nk'aho arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Inkoni ifite udushumi tw'umukara, bigaragara nkaho ari inkoni zifashishwa n'abantu bakuze mu kubafasha kugenda.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu ufite icupa ryamazi arifatishije ukuboko kw'iburyo, bigaragara nkaho ari kunywa amazi meza nyuma yo kuva mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye bifashisha kwa muganga bita ku barwayi, harimo agakoresho umurwayi bufite ikibazo cyo kutagenda akoresha kugira ngo bamusubize mu buzima busanzwe, imashini ya mudasobwa babasha kureberamo ibisubizo n'uko umurwayi ameze.

Ku meza y'umweru hateretse imipira yo mu bwoko butandukanye, harimo umupira wa football, umupira wa Rugby, umupira wa Basket, umupira wa Tennis ndetse n'ingofero bambara babasha gukina Golf ndetse no kwiruka.

Umuntu wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru ndetse n'agapira k'umukara usutamye hasi, imbere ye hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umukara ndetse n'agapira k'ubururu kagaragara yuko arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibishushanyo byere Occupational therapy life clinc, ibijyanye n'uko abantu babasubiza mu buzima busanzwe, hariho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo, umukara, ubururu ndetse n'umweru.

Agakoresho gakuraho inda bikoroheye, ni agakoresho kari mu ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragara yuko ari abakoreshasho bifashisha ku bantu bafite ikibazo cy'inda nini kugira ngo babashe kugira inda ntoya.

Igishushanyo cyerekana umuntu urimo kwiruka akora imyitozo ngororamubiri mu ibara ry'ubururu n'ikimenyetso kerekana umusaraba kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ibimenyetso byerekana abantu barimo, bafatanye ku maboko ndetse n'urutirigongo rurimo hagati.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'ubururu, wazamuye amaboko, bigaragara nkaho ari umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri mu cyumba kirimo igiti cy'icyatsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afashe ukuguru k'umurwayi uryamye ku gatanda wambaye ikabutura y'umukara, bigaragara nkaho arimo kumufasha kunanura amaguru yiwe.

Igishushanyo cyerekana umugabo uteruye icyuma, wambaye ikabutura y'umukara, imbere ye hari ibiribwa bitandukanye, bimufasha kugira ngo abashe kubaho afite ubuzima bwiza, hari icupa ry'amazi, inanasi, amagi, karoti ndetse n'imineke.

Ku meza hariho igikoresho bifashisha babasha gukora cyangwa se gusuzuma abarwayi, hariho akantu bashyira mu mazuru, ako batangiraho umwuka, ndetse n'ikindi gipimo bashyira ku mutima bumva uko umutima utera.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku ufite icupa ry'umweru ririmo amazi, bigaragara nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri, akaba arimo gufata amazi meza.

Umugabo wambaye agapira k'umukara ufite icupa ririmo amazi urifashishije ukuboko kw'iburyo, bigaragara nkaho ari umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri akaba arimo kunywa amazi meza.

Umugabo ufite icupa ry'umweru ririmo amazi, ufite n'ubwanwa kukananwa arimo aranywa amazi bigaragara nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri.

Ku meza y'umweru hateretse ibikoresho byinshi bakoresha mu gufasha ndetse no gusuzuma abarwayi harimo: ikaramu, urupapuro, akumva amajwi y'umutima ndetse n'ibihaha, hariho isaha, pome ndetse n'utundi dukoresho dutandukanye.

Mu cyumba harimo umugore wicaye ku mukeke wambaye kora y'umutuku, ndetse n'agasengeri k'umutuku, inyuma ye hariho agataburete, iruhande rwe hariho intebe z'umukara, bigaragara nkaho ari umugore uri mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara afashwe n'umugabo wambaye akajire ndetse n'umupira w'umweru, bigaragara nkaho umugabo wambaye agasengeri k'umutuku agize ikibazo cy'imvune akaba arimo kumufasha.

Agakoresho gafite mudasobwa hejuru, bigaragara yuko ari agakoresho bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no gusuzuma abarwayi kwa muganga.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara. Arimo gufasha umurwayi mu kunanura amaguru ye amushiraho ibyuma bakoresha mu kunanura amaguru y'uburwayi.

Agakapu kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, karimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo imiti bifashisha kwa muganga n'inshinge batera ndetse n'ububiko babikamo iyo miti.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi ufite icupa ririmo amazi, bigaragara nkaho ari umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri akaba arimo kwisukaho amazi kugira ngo agabanye ubushyuhe.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara urimo kwifata ku itako rye ry'iburyo bigaragara nkaho ari umugabo wagize ikibazo mu itako, hari amagambo avuga jano ofusipoti medesine andi terapi.

Mu nyubako irimo ivaze ndetse n'indabo z'icyatsi, umukobwa uri kuri tapi itukura, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umutuku ndetse n'umweru arimo gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kumererwa neza.

Umuntu wambaye isengeri y'icyatsi, ufite icupa rigaragara nkaho arimo kunywa amazi, nyuma yo kuva mu myitozo ngororamubiri, imufasha kumererwa neza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umugore wambaye ishati y'umweru, ufite ishashi y'ubururu urimo kuyishyira ku kuboko ku ibumoso, bigaragara nkaho yabashe kugira ikibazo cy'imvune akaba arimo kwigorora.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ufashe umwana, iruhande rwabo hari umuganga wambaye agapfukawa k'ubururu, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, ku ntebe hariho mudasobwa ndetse n'ibikoresho bifashisha kwa muganga. Biragaragara ko muganga arimo gusuzuma umwana.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'inkweto z'umukara uryamye ku gatanda k'umukara ufashwe n'abagabo babiri, bigaragara yuko barimo kumwereka uburyo agomba kunanura umugongo wiwe.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye hasi kuri sima, iruhande rwe hariho indabo z'icyatsi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, aho afata amaboko ye akayashyira ku maguru yicaye.

Igishushanyo kerekana abantu uko babasha gusubira mu buzima bwo gukora imyitozo ngororamubiri. Berekana uko umuntu agenda, uko umuntu atwara igare, uko umuntu aterura ibyuma ndetse n'uko umuntu akina umupira wa golf.

Ku kibuga cy'umupira aho abakinnyi bateranye bakina, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo, amakabutura y'umuhondo ndetse n'imipira y'umuhondo. Indi yambaye amakabutura y'ubururu ndetse n'imipira y'icyatsi irimo umweru, hariho umukinnyi waguye hasi akaba arimo gufashwa n'abakuruwaje.

Icupa ryo mu ibara ry'umweru rifite agapapuro k'umukara, rigaragara nkaho ari icupa bakoresha babasha kubika neza imiti.

Umuntu wambaye agapira k'umukara ndetse n'ikabutura y'umweru, wambayeho na kora, wambaye inkweto z'umukara, ufite n'ibikomo mu kuboko kw'ibumoso, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umunyeshuri uryamye hasi bahambirije ibiti ndetse n'imigozi, bigaragara nk'aho yagize ikibazo cyo kuvunika, bagenzi be b'abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bamu bapfukamye hasi barimo kumufasha bamuha ubutabazi bw'ibanze.

Icyumba gisizwe n'amarangi yo mu ibara ry'umweru, hariho icyuma bifashisha babasha kureba mu mutwe, mu bihaha, mu nda, ndetse no mu magufa y'umurwayi. Hariho intebe cyangwa agatanda umurwayi aryamaho, kugira ngo abashe kunyura muri icyo cyuma.

Umuganga ufite agatambara ko mu ibara ry'ubururu, urimo gufasha umurwayi wabashe kugira ikibazo cy'imvune mu ivi, bigaragara nkaho arimo kumunanura ndetse no kumufasha kugabanya uburibwe mu ivi.

Umuganga wambaye ishati y'umweru ufite akumvirizo k'amajwi y'umutima ndetse n'ibihaha, wambaye ipantaro y'umukara, arimo gushyiraho bande ku kuguru kw'iburyo k'umugabo wambaye ikoboyi, bigaragara nkaho arimo kumufasha kubera ikibazo yabashije kugira cy'imvune.

Mu nyubako isizwe irangi ry'umweru hasi, hejuru, ndetse no ku bikuta, harimo imashini yo kwa muganga bifashisha bavura umuntu ufite ibibazo bitandukanye. Kuri iyo mashini hariho agatanda umurwayi aryamaho kugira ngo anyure muri icyo cyuma, ndetse n'imashini iri hirya muganga areberaho.

Mu nyubako umuntu wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'umukara uryamye hasi, bigaragara nk'aho ari umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri imufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku w'ubudodo wicaye ku gitanda, ku kuguru kwe kw'iburyo hariho igipfuko cyo mu ibara ry'umweru, bigaragara nkaho ari umuntu wabashije kugira ikibazo cy'ivi.

Umuganga wambaye itaburiya yo mu ibara ry'umweru, ufite ukuguru k'umurwayi wambaye agapira k'umutuku, n'ikabutura y'umukara, bigaragara nkaho ari umuganga urimo ku kumufasha kunanura amaguru ye.

Umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse na marinete y'umukara, arimo kwisukaho amazi meza aturutse mu icupa afatishije ukuboko kw'ibumoso, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Inyubako imbere yaho hari umugabo uhagaze ku rwego, arimo gufashwa n'undi mugabo wambaye imyenda y'ubururu amuha ibikoresho byo gukoresha kuri iyo nyubako. Bigaragara nkaho ari inyubako y'ibitaro.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse na kora y'umukara, wambaye inkweto z'umweru, ufite ekuteri mu matwi, yicaye hasi iruhande rwe hari icupa ry'umweru ririmo amazi, biragaragara nkaho ari umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara wicaye mu kagare k'abarwayi aho arimo gufashwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru kumufasha kunanura amaboko y'umurwayi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umweru ifite utubara tw'umutuku, uryamye ku gatanda, arimo kunanurwa n'umuganga wambaye ishati y'ubururu, amufashe ukuguru agushyira ku gituza. Bigaragara nkaho arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri amunanura amaguru yiwe.

Inyubako irimo ibikoresho bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo intebe bicaramo, intebe ndetse n'ibyuma babasha guterura.

Umugabo ufite ubwanwa, wambaye ekuteri mu matwi, afite icupa rinini, arifatishije ukuboko kw'ibumoso, bigaragara nkaho arimo kunywa amazi, nyuma yo kuva mu myitozo ngororamubiri.

Ku kibuga hahagaze abana benshi bari ku murongo barimo gukora imyitozo ngororamubiri, barimo gufashwa n'umugabo wambaye agapira k'umweru, inyuma yaho hari inyubako ndende yubakishijwe amabati y'umutuku.

Ku meza hari hateretse ikirahuri kirimo kujyamo amazi avuye mu ikanete ifashwe n'umuntu mu kuboko kw'buryo, bigaragara nk'aho arimo gusuka amazi nyuma yo kuva myitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite n'akumvirizo k'amajwi y'umutima ndetse n'amajwi y'ibihaha, afite ikintu cy'umutuku, bigaragara nkaho ari inyubako yo kwa muganga irimo umuganga, werekana ibikoresho bakoresha mu myitozo ngororamubiri.

Agakarito kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yako hariho ibinini icumi byo mu ibara ry'umuhondo, bigaragara nkaho ari agakarito kabamo imiti yifashishwa kwa muganga mu kuvura abarwayi.

Amacupa menshi atandukanye arimo imiti itandukanye, harimo iy'umukara, iy'icyatsi ndetse n'iy'umweru, bigaragara nkaho ari imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Ku meza hateretse amacupa menshi cyane ari mu bwoko butandukanye, mu ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'agakapu kari mu ibara ry'icyatsi, bigaragara nkaho ari amacupa bifashisha mu kubika imiti yo kuvura abarwayi.

Ibiti biteretsweho amakarito ari mu ibara ry'ubururu, inyuma yaho hari imisozi iteweho ibiti, bigaragara yuko ari ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura abarwayi bafite ibibazo bitandu...

Icupa ryo mu ibara ry'umuhondo yanditseho amagambo foleva, halloya , verajeri rigagara nkaho ari icupa ririmo imiti bifashisha kuvura abarwayi.

Igishushanyo cyerekana ibihingwa bitandukanye, bifashisha mu gukora imiti, harimo icyatsi kibisi, gifite amababi y'icyatsi, harimo n'andi mababi ndetse n'indabo zitandukanye.

Ibihingwa bitandukanye by'ubwoko bugera muri cumi na bubiri harimo imbuto, harimo ibyatsi ndetse n'ibindi bimera.

Igishushanyo cyerekana icupa riri mu ibara ry'umweru ndetse n'igihingwa kiri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwabyo hari ibinini birimo ibara ry'umweru bigaragara nkaho ari icupa bashyiramo imiti ndetse n'icyatsi bakuramo iyo miti.

Ikarita yashushanyijeho umuntu, iruhande rwayo hariho amacupa menshi arimo ibara ry'umuhondo, umukara, umweru ndetse n'ubururu, icyatsi, bigaragara nk'aho ari amacupa ndetse n'agakarito bifashisha mu kubita imiti itandukanye.

Icupa rifite umufuniko w'umweru, rifite agapapuro kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, handitsweho "Forever Hand Sanitizer" bigaragara nkaho ari icupa bashyiramo umuti wo gukaraba intoki.

Icupa riri mu ibara ry'umuhondo n'icupa riri mu ibara ry'umweru rifite amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku ryerekana ko ari amacupa arimo imiti ya Kinyarwanda.

Amacupa apfundikiye, iruhande rwayo hari isabune ndetse na avoka bigaragara nk'aho ari amacupa arimo imiti bifashisha mu kuvura abarwayi.

Igihingwa cy'icyatsi kibisi, bigaragara nkaho ari igihingwa bifashisha mu kubasha gukora imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko wumutuku, ryandikishijweho amagambo y'umutuku yitwa foreva aroneberi nekita, bigaragara nkaho ari icupa babikamo ndetse banateguramo imiti.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru ryanditseho Forever Bee Pollen, bigaragara nk'aho ari umuti wa kinyarwanda, babasha guha abantu bafite ibibazo bitandukanye.

Ku meza y'umweru, hateretse icyatsi kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo muke, hatetseho ibinini biri mu ibara ry'umweru, bigaragara nk'aho ari ibinini byifashishwa mu kuvura abantu batandukanye.

Abagabo benshi batandukanye bahagaze imbere y'ibihingwa birimo ibara r'icyatsi, bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amapantaro y'umukara, bigaragara yuko ari abagabo bahagaze mu murima w'ibihingwa byifashishwa bakora imiti itandukanye.

Hagati y'inyubako ebyiri hateye ikiti kiri gifite indabo zo mu bwoko bw'ibara ry'icyatsi, iki giti ni igiti cyifashishwa mu gukora imiti isanzwe yo kuvura abarwayi batandukanye, ni igiti cyitwa umuharavumba.

Igishushanyo cyerekana ibyatsi bitandukanye, biragaragara nk'aho ari ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti itandukanye. biri mu ibara ry'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Igihingwa cy'ipapayi kiri mu ibara j'icatsi iruhande ndetse n'ibara ritukuramo ndani, rifite utubuto tu tw'umukara, biragaragara nkaho ari igihingwa bifashisha mu gukora imiti itandukanye.

Akabati karimo amacupa ari mu mabara y'umweru, icyatsi, umuhondo ndetse n'umukara, bigaragara nkaho ari akabati gakoreshwa mu kubika imiti yo kuvura abarwayi batandukanye.

Icupa ryo mu ibara ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, bigaragara nkaho ari icupa bakoresha mu kubika ndetse no mu gufata neza imiti itandukanye baha abarwayi.

Ku kirago hateretse utubindi turimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ibihingwa bitandukanye byo mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuntu urimo kubisekura, bigaragara yuko ari ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti.

Amacupa ndetse n'udukarito biri mu mabara atandukanye, aho amacupa harimo icupa riri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibikarito biri mu ibara ry'ubururu ndetse no mu ibara ry'umweru, bigaragara nkaho ari amakarito n'amacupa yifashishwa mu kubika imiti.

Ibihingwa birimo ibara ry'icyatsi, biri mu mavase atandukanye ari mu mabara y'umweru, umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo, bigaragara nkaho ari ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yo kuvura abarwayi batandukanye.

Ibiti biri mu ibara ry'icyatsi bifite udushashi tw'umukara, bigaragara nkaho ari ibiti byifashishwa mu gukora imiti isanzwe yo gufasha abarwayi.

Amacupa afite imifuniko y'ubururu irimo imiti itandukanye, iri mu mabara menshi bigaragara nk'aho ari amacupa yifashishwa mu kubika imiti yo kuvura abarwayi batandukanye.

Umuntu ufashe ibabi ry'igihingwa, bigaragara yuko ari igihingwa, igihingwa kiri mu ibara ry'icyatsi bakoresha mu gutegura ndetse no gukora imiti yifashishwa mu kuvura abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Mu cyumba harimo intebe eshatu z'umukara, imbere y'izo ntebe hariho umuganga wambaye itaburiya afashe imiti, na ho ku meza hariho amacupa abiri arimo imiti, bigaragara nkaho arimo gusuzuma iyo miti.

Icupa riri mu ibara ry'umweru, rifite agapapuro kari mu ibara ry'umutuku, ryanditseho reyishe. Hejuru handitse igisubizo kuri amibe. Reyishe ni yo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru. Biragaragara nk'aho ari umuti wifashisha mu kuvura indwara ya amibe.

Akabati k'imbaho gafite ibintu bitandukanye, harimo amavuta ndetse harimo n'imiti isanzwe ariyo kwa muganga, inyuma yako hariho umuforomo wambaye imyenda y'umweru, ishati ndetse n'ipantaro, hirya ye iburyo bwe hakaba hariho umuntu urimo kugenda.

Icupa ryo mu ibara ry'umweru rifite umufuniko wo mu ibara ry'umweru ryanditseho amagambo forevara garike tike igaragara nkaho ari icupa bifashisha mu kubika imiti y'abarwayi.

Igihingwa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ni igihingwa bifashisha ku bantu barwaye indwara y'umutwe ndetse n'umunaniro mwinshi, iki cyatsi bacyita umuharavumba.

Ifoto yerekana igiti cyo mu ibara ry'icyatsi, inyuma yaho hari indabo nyinshi, bigaragara nkaho ari umurima urimo ibiti ndetse n'indabo bakoresha bakora imiti ya kinyarwanda.

Igiti cyangwa se ururabo rw'icyatsi rutewe hasi hariho amabuye avangitiranye y'amabara menshi, harimo umweru, umukara, igiti gitoshye cyane.

Agakarito kari mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, kanditsweho Choleduz Omega Supreme. Bigaragara nkaho ari agakarito bakoresha babika imiti yo kuvurisha abarwayi.

Ibirahure bibiri, birimo ibyatsi bitandukanye, bigaragara nkaho bafashe ibyo byatsi bakaba bagiye kubikuramo imiti izaza yifashishwa mu kuvura abantu batandukanye.

Mu nyubako runaka hahagaze umuntu wambaye ishati y'ubururu ufite igicupa kirimo imiti, imbere ye hariho indobo ndetse n'umufuka. Mu ndobo harimo imiti, bigaragara nk'aho ari mu cyumba kirimo imiti.

Amacupa y'ubururu n'imifuniko y'umweru bigaragara nkaho arimo imiti yerekana ko ivura ububabare mu mugongo ndetse n'ububabare mu ngingo zitandukanye, haba mu mavi ndetse no mu nkokora nk'uko bigaragazwa n'aho aba bantu barimo kwifata.

Amacupa atandukanye arimo ibara ry'umuhondo, umweru ndetse no mu ibara ry'icyatsi, bigaragara ko ari amacupa bakoresha mu gutegura ndetse no kubika imiti.

Igiti cy'icyatsi kirimo kugenda gikura gake gake, bagisasiye ibindi byatsi byumye kugira ngo kibashe gukura neza, ndetse no kubona ubutohagire.

Amavase atandukanye ari mu mabara y'umukara, umuhondo ndetse n'umweru, arimo indabo ndetse n'ibihingwa bitandukanye bigaragara nk'aho ari ibihingwa bifashisha mu gukora imiti.

Mu cyumba harimo umugabo wambaye akagofero mu mutwe ndetse n'umupira w'umutuku, inyuma ye hari akabati karimo amacupa atandukanye, ari mu mabara atandukanye, bigaragara nkaho ari inyubako irimo kandi bacururizamo imiti.

Umugore wambaye igitenge, iruhande rwe hariho ibihingwa by'indabo, bigaragara nkaho ari umugore urimo kureba ibihingwa bakoresha ndetse banifashisha mu gukora imiti.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru rifite agapapuro kanditseho foreva ati vijeni, bigaragara nk'aho ari icupa babikamo ndetse banateguriramo imiti yo kuvurisha abarwayi.

Bigaragara nk'aho ari amafoto yafashwe bafotora ibihingwa bitandukanye babasha gukuramo imiti harimo indimu, ibitunguru ndetse n'ibindi byatsi bifite amababi y'icyatsi.

Icyatsi kiri mu ibara ry'icyatsi, giteye mu murima, bigaragara nkaho ari umurima uteyemo ibyatsi bifashisha bakora imiti.

Amacupa ateretse ku meza, ari mu ibara ry'umweru, afite imifuniko y'umweru, imbere y'aho hariho indabo, bigaragara yuko ari amacupa bifashisha mu kubika imiti ibasha kuvura abarwayi.

Icupa ryo mu ibara ry'umweru rifite umufuniko w'umweru ryanditseho amagambo Forever Daily Forever. Bigaragara nk'aho ari icupa ryifashisha mu gutegura ndetse no mu kubika imiti ivura abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Ku meza hariho ibintu byinshi bitandukanye hariho indimu ndetse n 'ibindi byatsi bitandukanye hariho agakoresho bifashisha babasha gusekura imiti bigaragara nk'aho ari inyubako bakoreramo imiti ya kinyarwanda.

Igihingwa cy'ururabo gifite ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo, bigaragara nkaho ari igihingwa bifashisha mu gutegura no gukoramo imiti yo kuvurisha abarwayi.

Amacupa ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru afite imifuniko y'umweru, igaragara nkaho ari amacupa bakoresha mu kubika imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Amacupa ari mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, iruhande rwayo hari ibihingwa byo mu ibara ry'icyatsi, biragaragara yuko ari amacupa bifashisha mu kubika imiti itandukanye.

Biragaragara nkahoa ari ibihingwa bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi kibisi, imbere yaho hateretse icupa ryo mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo ari ibinini, bivuze ko ari ibihingwa bifashisha mu gukora imiti ivura uburwayi butandukanye.

Agakarito kari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kanditseho F cumi na gatanu ndetse n'akandi kari mu ibara ry'ubururu n'umweru, imbere yaho hateretse amacupa abiri ari mu ibara ry'umuhondo, bigaragara nk'uko ari udukarito ndetse n'amacupa yifashishwa mu kubika imiti itandukanye.